Igare risa nabi ryegetse imbere y'inzu ikorerwamo ubucuruzi, ishaje, ishushanyijeho amasaha, irimo abaguzi n'umucuruzi.

Ikigo kigari cyane cy'amashuri yisumbuye, kirimo ubusitani burimo indabyo n'ibiti, hashinmo kandi n'idarapo ry'Igihugu, harimo n'inyubako nyinshi zitandukanye zigirwamo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bari imbere y'ishuri, bamwe bari kugenda, abandi babiri barahagaze bari kuganira, umwe afite ibipapuro mu ntoki.

Abanyeshuri benshi bo mu mashuri yisumbuye bicaye mu ishuri bambaye impuzankano y'ishuri n'udupfukamunwa bafite amakayi imbere yabo bari kwandika bari kumwe n'abarezi babo na bo bambaye utupfukamunwa.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano z'ishuri, bicaye mu mihande, bari kumwe n'abarezi babo, bahuriye mu nzu mberabyombi, ngo baganire.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano z'ishuri harimo abakobwa n'abahungu bakoze urugendoshuri basuye ishyamba.

Icyapa cyo ku muhanda gikozwe mu cyuma gifite ingese gisize amarangi y'umweru, cyandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu kiranga ikigo cy'amashuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano z'ishuri, bari ku rukarabiro, batonze umurongo, hagati y'umunyeshuri n'undi, harimo intera abari imbere bari gukaraba intoki ku rukarabiro.

Ikibumbano kiri mu ishusho ry'ikamba ya cyami, gikozwe mu ibumba, giteretse mu nzu ikorerwamo ububumbyi, cyabumbwe n'umunyeshuri uri kwiga kubumba.